Banke sitetimenti ya banki ekwiti uburyo amafaranga yawe yagiye anyura kuri banki mubihe bitandukanye, uburyo amafaranga yawe yagiye ava kuri banki, uburyo amafaranga yawe yagiye ajya kuri banki, byose bigaragaza kuri iki cyitwa banki sitetimenti.

Imodoka yo mu bwoko bwa shyundayi ikoresha uburyo bw'amashanyarazi ndetse ikaba ari na otomatike, igura amafaranga miliyoni icyenda z'amanyarwanda.

Imodoka nshyashya yo mu bwoko bwa toyota rava izanywe mu ma kontineri ivuye mu bihugu byo hanze igeze mu gihugu runaka barimo barayikura muri kontineri iracyari nshya.

Abakozi ba beka, banki ofu Kigali, bari muri banki aho umukiriya ashobora kuza akabitsa amafaranga mu buryo bwizewe akaba azi ko amafaranga ye abitse neza kandi atekanye.

Ahantu itunganyirizwa ry'amata y'i Nyanza meza cyane barya amata meza aryoshye cyane iyi nimashini ifasha gutunganya amata ndetse akaba yamaramo igihe akonje kandi ameze neza ari umwimerere.

Hoteri nziza cyane ifite ahantu kukogera nyuma yo koga hakaba hari n'ahantu heza hari imitaka umuntu ashobora kujyaho akaryama akaruhuka arimo gufata akayaga.

Umushefu arimo guteka, afite ibintu bitandukanye bimufasha kugira ngo abashe gutekera abamugana, yambaye neza arimo arakata karoti, ibitunguru ndetse na kokombure.

Akazu ka eyateri gakoreramo umucuruzi wa eyateri ashobora gucuruza amasimukadi ya eyateri, amayinite ya eyateri ndetse n'ibindi byose bitandukanye bya eyateri.

Ishami rya Emutiyeni, aho rikorera, aho ushobora gusanga ibicuruzwa byose bya Emutiyeni, haba simukadi, terefone ndetse ukaba wahabonera na paki za Emutiyeni zose ndetse n'ibikorwa byose byerekeranye na Emutiyeni savisi.

Inzu nziza cyane zikodeshwa mu mujyi wa Kigali, zifite ibikoresho byo hanze bibika amazi, uburyo bwiza bwo gufasha abantu kureba amashusho, bufite indabyo nziza hanze ndetse zinageretse, ubona ko ziteye ubwuzu, bishyura ibihumbi magana inani ku kwezi.

Mu kabari, muri resitora ahantu bacuruza ibyo kunywa bisembuye, hariya ni kuri kontwari abantu barahicaye bahafatira icyo kunywa ndetse hari n'ameza ariho minu n'ibintu byose bacuruza byo kunywa bisembuye.